Umuntu mukuru ari gufasha abana gupomba amazi mu mupombo kugira ngo babashe kubona amazi meza. Umupombo kugira ngo uguhe amazi bisaba gukoresha imbaraga nyinshi usunika kamwe mu gace kawugize gatuma nyine amazi aza.

Icyumba k'inama aho abitabiriye inama bahurira, bakicara bakaganira ku bintu bitandukanye, mu buryo bicaramo baba barebana ku buryo uri butange igitekerezo abasha kumvwa na bose mu bitabiriye inama.

UNICEF ni umuryango udaharanira inyungu ukorera ku isi hose, ugamije kwegereza abatuye isi cyane cyane abana, ibikorwa remezo bituma ubuzima bwabo burushaho gukomeza kuba bwiza, ibyo bikorwa remezo birimo amazi meza, amashuri ndetse n'uburyo bwo kwivuza bworoshye.

Kwita ku bana ni bimwe mu bigize imikurire yabo myiza, no kuba bazabasha kugira uruhare mu iterambere ry'ahazaza, abana bitabwaho mu buryo butandukanye burimo kwegerwa, bagahabwa iby'ibanze bakeneye, kwereka urukundo ndetse no kubaba hafi mu mibereho yabo ya buri munsi.

Ubuvuzi bwo mu mutwe, buhabwa abantu batandukanye bo mu ngeri zose bafite ibibazo bitabasha, kubonesha amaso. Bimwe muri ibyo bibazo birimo kwiheba, kumva wigunze, kumva utifitiye icyizere, kumva wanzwe, kumva nta muntu ukuri hafi, ibyo byose iyo bibaye byinshi mu muntu bituma, agira ibimenyetso bishobora kuba byatuma aba n'umusazi.

Kuganiriza umuntu ufite akababaro ni bimwe mu bintu bituma yongera kumva ko ari umuntu ndetse kumuba hafi, ukamwegera ukumva neza ikibazo afite, bibasha kumugarurira icyizere aba yatakaje. Abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, ariko utagaragara. Mu gihe umuntu agukeneye ngo umuganirize ugomba kumuganiriza.

Ubuvuzi bw'amenyo, ni bumwe mu buvuzi bumaze gutera imbere hano mu Rwanda, aho mu mavuriro agiye atandukanye, hari ibikoresho byiza bigezweho kandi bijyanye n'igihe, bikoreshwa muri uku kuvura amenyo.

Kwitabwaho n'abakuze. Ibi ni ibintu bikundwa na buri mwana wese, iyo umuntu mukuru amwitayeho akamwereka urukundo, ndetse akamuba hafi, akamuterura cyangwa se akamuheka, bikunze kubaho cyane iyo abasaza baterura abuzukuru babo, bakabereka urukundo ndetse bakabishimira mu buryo butandukanye.

Kwita ku bakuze bibafasha kubaho bishimye ndetse baryohewe n'ubuzima baba bagezemo, bigatuma igihe cyabo cyo kubaho cyiyongera kubera ko iyo umuntu mukuru yitaweho bituma ahora arangwa no kugira ibyishimo, umunezero, bityo n'indwara zituruka ku mihangayiko y'uko yabaho nta bantu bamwitayeho ntabwo zishobora kumufata.

Kwita ku bakuze ni ukubafasha kubaho bishimiye iminsi y'izabukuru yabo, kubera ko abenshi muri bo baba bafite uburwayi butandukanye, butuma ibintu baba bashaka kwikorera mu bihe by'ahahise batabikora, tugomba rero kwita ku bantu bakuze tubafasha gufata imiti yabo neza ,tubafasha kubaho bishimye, tubafasha mu ndyo nziza kugirango babashe kubaho bishimye muzima bwabo bwa buri munsi.

Umukecuru akikijwe n'abana bato impande ze zose, bisa nkaho bamusuye mu rwego rwo kuza kumuba hafi ndetse no kumwereka urukundo nk'abana be.

Ibitaro ni ahantu abantu bajya bagiye kwivuza, bagahabwa kuhaba, kugira ngo abaganga bakomeze kubakurikirana mu buryo bworoshye, haba hagizwe n'ibitanda biriho amamaterara, bifite inzitiramibu, ndetse haba harimo n'ibindi bishobora kubafasha byose mu buzima bwabo bwa buri munsi nk'abarwayi.

Imashini ikoreshwa, igihe bari kureba uburwayi umurwayi afite ku bice tutabasha kubonesha amaso, umurwayi bamwinjiza muri iyi mashini, igakoresha bimwe mu bice biyigize ireba imbere mu mubiri ikibazo umuntu afite ikaza kukigaragaza.

Ubuvuzi ngororamubiri, bukoreshwa cyane cyane ku barwayi bafite imvune zitandukanye, aho batwara utugare cyangwa bagasunika ibintu bitandukanye kugira ngo barebe niba, ibice by'imibiri yabo bifite izo mvune byakongera gukora kandi bigakora neza.

Ifoto irimo umuntu uri gukora siporo, imbuto zitandukanye zirimo imineke, amaronji, pome ndetse n'imizabibu. Ni byiza yuko umuntu akoresha izi mbuto igihe cyose aba yakoze siporo, kuko zibasha kongera gutuma umubiri we ukora neza ndetse n'amaraso ye agatembera mu buryo bwiza.

Amavuta akoze mu gikakarubamba atuma uruhu rw'uyisiga ruhoranirana ubuhehere bikanatandukanya no kugira ibishishi ku ruhu rwe ndetse bigatumahora yishimiye uruhu afite. Bimwe mu bibazo amavuta akoze mu gikakarubamba akuraho ni ukugira umwera mu maso, kugira ibishishi, ndetse no kumva uruhu rwawe rukanyaranye.

Igikakarubamba, ni kimwe mu bimera abanyarwanda bakunda gukoresha mu kwivura indwara zitandukanye, zirimo ibishishi byo ku ruhu, inzoka zo mu nda, uburyo gikoreshwamo baragikata, bakagiteka mu mazi bakakinywa ndetse kikanasigwa ku ruhu ahari ibyo bishishi.

Ubuvuzi gakondo bukoresha ibimera bitandukanye, aho babitunganya bakabikoramo amafu ashobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ku ndwara ziri mu bantu.

Tangawizi ikoreshwa cyane cyane mu gikoni, aho bamwe bayikoresha mu gutegura amafunguro nk'ikirungo, abandi bakayikoresha mu gukora icyayi, mukaru, icyayi cy'amata ndetse n'ibindi, tangawizi kandi hari abayikoresha mu kwivura inkorora ndetse n'ibicurane.

Gaperi ni utubuto twera ku biti bidakunze gukora ngo bibe birebire cyane, utwo ubuto turaryoha ndetse dufasha umuntu uturiye kumva amerewe neza, kandi hari icyo dufasha mu mubiri nko gutuma umuvuduko w'amaraso usubira ku murongo ndetse ukavura n'ubundi burwayi butandukanye.